Umuntu uteruye umwana wavunitse ukuguru, imbere yabo hari umubyeyi, hirya yabo hari abandi bantu bahagaze, inyuma y'abantu bahagaze hari imodoka itwara abantu mu buryo rusange.

Abantu bahagaze bambaye imyenda ibirango bya Croix Rouge, hari umntu uri gufotora yishishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, hari ameza ateretse arambuyeho ibitambaro by'ubururu, ariho amakaye n'amakaramu n'amacupa y'amazi.

Abantu bicaye, buri wese yicaye ku gitanda cye, bitwikiriye udushuka tw'umweru, hejuru ya buri gitanda hariho inzitiramibu, bose ni abagore.

Abagabo babiri bateruye umuntu bifashishije intebe y'inyegamo, bari mu nyubako irimo intebe za karambarazi.

Abantu bahagaze imbere y'imodoka y'imbangukiragutabara, inyuma y'imodoka hari ibiti birebire bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibyatsi bigufi.

Umuntu w'umugore uhagaze, hirya no hino ye hari ibitanda bikoze mu byuma, hejuru y'ibyo bitanda kandi hamanitseho supanete.

Abantu benshi bahagaze barangajwe imbere n'umusirikare w'u Rwanda ndetse n'undi mugabo wambaye agapfukamunwa. Inyuma yabo hari ibya hari ibiti n'inyubako zisakaye, hari kandi icyapa cyanditseho amagambo.

Abantu bicaye imbere y'inyubako, ifite amadirishya manini, hari abahagaze, ndetse hari n'abana bari kuhakinira, imbere y'iyo nzu hari inkingi zifashe igisenge cyayo.

Umuntu uhagaze hagati y'ibitanda, afite ibikapu ndetse n'imyenda mu ntoki, hejuru buri gitanda hamanitseho inzitiramibu, ikigaragara cyo ari kwa muganga mu bitaro.

Abantu bahagaze bari kureba uko muganga ari kuryamisha umurwayi ku gitanda, uwo murwayi arwaye imidido ku maguru, aryamye ku gitanda kiho matera ifite ibara ry'umukara ndetse n'igitambaro cy'icyatsi gishasheho.

Abaganga bari kwakira umurwayi, umwari kwandika yifashishije mashini y'ikoranabuhanga undi ari kwandika yifashishije ikaramu, imbere yabo hicaye umubyeyi uri kumwe n'umwana hari kandi ku meza amacupa arimo imiti y'ubwoko butandukanye.

Umuntu wicaye wambaye ingofero ari kumwe n'umuganga wambaye agapfukamunwa hirya ya muganga hari akabati karimo imiti, ku meza hari ikaramu n'ikaye ndetse n'ibikoresho yifashisha apima abarwayi.

Ibiti bibiri biri imbere y'inyubako, mu ibara ry'iyo nyubako hari abantu bicaye ku ntebe za karambarazi ndetse n'abahagaze.

Umuntu wicaye ufite ikaramu uri kwandika yambaye umwenda w'umweru, yambaye udufungantoki. Hirya ye hari undi mugabo wicaye imbere y'owo muntu uri kwandika, hari amacupa ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gupima abarwayi n'imiti.

Ababyeyi bicaye bakikiye abana, imbere yabo hari umutaka ufite ibara ry'umutuku, hirya yabo hari inyubako y'amatafari ahiye, ifite imiryango itatu, ku nzugi z'iyo miryango hasize irangi risa umweru.

Umugore uri kugenda mu muhanda, afite igikapu mu ntoki, ahetse umwana ndetse hari n'undi afashe akaboko bari kugenda, imbere yabo hari indabo n'inyubako ifite irangi ry'ubururu.

Abana bicaye ku kirago bari kumwe n'umuntu mukuru ubarera. Bose bafite ibikombe bari kunywa.

Abantu bicaye ku ntebe za karambarazi z'ibiti. Barimo abagabo n'abagore. Imbere yabo hari umugabo wambaye imyenda y'imikara, urimo kubabwira. Inyuma y'uwo mugabo hateguye ibitambara bifite amabara, ari mu idarapo ry'igihugu.

Umugore uhagaze imbere y'abantu, ari kuvuga yifashishije indangururamajwi, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo ''baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe''. Hirya ye hari umugore n'umugabo bahagaze, ndetse inyuma yaho hari n'ibiti birebire.

Umuntu uhagaze yambaye amadarubindi y'umukara, yambaye umupira w'umweru, afite mu ntoki indangururamajwi, inyuma hari icyapa gishishikariza abantu guharanira kugira ubuzima bwiza no kurwanya ibiyobyabwenge.

Abantu bahagaze mu nzu hagati, bafashe ururabo rufite amabara menshi, inyuma yabo hari ababyeyi bicaye bafite abana, ku nkuta z'iyo nzu hariho impapuro ziriho ibimenyetso, hirya kandi hari intebe y'inyegamo y'igiti.

Indabo ziteye ahantu hari ibyatsi zifite amabara atandukanye, inzu isakaje amabati y'umutuku ikikijwe n'ibiti birebire.

Abantu bicaye, ku meza abari imbere hariho ibikombe by'umweru, ibitabo amasahani, ariho ibyo kurya, amacupa y'amazi, barimo abazungu ndetse n'abirabura.

Abantu bahagaze mu mbuga y'itaka, barimo abagabo n'abagore, bose bazamuye amaboko bayashyize hejuru, hirya yabo hari ibiti hari kandi inyubako ifite amabara y'ubururu ku nzugi no ku madirishya.

Ububiko bw'imiti itandukanye: hari ri mu makarito, mu macupa, ibitse neza, iteretse ku gikoresho gifite ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako, kuri iyo nyubako hariho icyapa kigaragaza ibihakorerwa, ni mu iguriro ry'imiti cyangwa se farumasi.

Abantu bahagaze, imbere yabo hari umugabo wambaye amarinete, usa n'uri kubabwira, harimo abafite amatelefone, bari kumufotora, bahagaze ahantu hari ibyatsi bigufi, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Icyapa cyanditseho ngo '' twubake urwanda ruzira ibiyobyabwenge'' mu ibara ry'umukara. Hepfo hari ibara ry'umutuku ryanditseho ngo ''ibiyobyabwenge birica'' gishwe n'abantu babiri, inyuma yabo hari abandi bantu benshi, bigaragara ko bari gukangurirwa kwirinda ibiyobyabwenge.

Ikiganza cy'umuntu ndetse afashe ku kuguru. Afite uburwayi wagirango ngo ni amazomba cyangwa ise.

Abantu bahagaze imbere y'inzu. Inyuma yabo hari ibyapa biriho ibimenyetso cyangwa se biranga ibikorerwa muri iyo nzu . Barimo abagabo ndetse n'abagore.

Icyapa gifite amabara abiri iry'ubururu ndetse n'iy'umweru gishushanyijeho inkoko ebyiri z'umweru zifite amaguru y'umuhondo, ibi ibireju, n'ibireju by'umutuku.

Abantu bicaye ku ntebe b'abagabo ndetse n'umugore uhagaze uri kwakirwa n'undi wicaye.

Umuntu wambaye umwenda w'umweru ndetse n'ingofero y'umweru yandikishijeho ibara ry'ubururu, uwo muntu yambaye n'agapfukamunwa.

Ivuriro ryubatse neza risakaje amabati afite ibara ry'ubururu, ku nkuta hasizeho irange ry'ibara ry'ubururu, hari icyapa imbere cyanditseho amagambo hari abantu bahagaze imbere y'ibaraza ry'iryo vuriro.